Ubucuruzi bw'inzoga aho usanga mu tubati barashyizemo inzoga nyinshi zitandukanye z'amoko atandukanye, zikorwa n'inganda zitandukanye n'inzoga za burarirwa , amaji, amazi, byose bigamijwe bigamije cyangwa se bifite intego yo kumara abantu inyota.